Iyi ni inyubako igaragaza ikintu runaka yaba igiye gukorerwamo cyangwa hakaba hagiye gukorerwamo ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo waba ushaka gukoreramo.

Iyi ni inzu y'umweru iri mu gipangu iteganye n'ibiti bituzanira umwuka mwiza, twebwe nk'abantu tugomba guhumeka tukagira ubuzima buzira umuziro.

Uru ni urupapuro rutwibutsa gukora, tukibuka ko ejo heza hacu haba heza. Twitanze, dushijemo imbaraga zacu, tugomba guharanira gutanga ejo heza.

Iki ni ikirango kiri kwamamaza kubaho ejo heza. Twese nk'abanyarwanda tugomba kubiharanira tukabaho ejo heza hacu, kuko tutaba tuhazi.